Uyu ni umucuruzi uri kwamamariza ibicuruzwa bye ku mbuga nkoranyambaga aho abakoresha ikoranabuhanga baba bashobora kubibona bakaba babigura kandi bakabigezwaho mu buryo bwihuse.

Uyu mucuruzi ari kwamamariza ibicuruzwa bye ku mbuga nkoranyambaga, aho abakoresha ikoranabuhanga bashobora kuba babibonaho ababikeneye bakabigura kandi bikabageraho mu buryo bwihuse.

Iyi myenda ni iyo umucuruzi ari kwamamariza ku ikoranabuhanga, aho benshi barikoresha muri iki gihe bashobora kuba bayibonaho, bakagura kandi bakagezwaho ibyo baguze mu buryo bwihuse.

Uyu mucuruzi ni uri kwamamariza ibikorwa bye ku ikoranabuhanga, aho benshi bakunze kurikoresha, biborohera kuba babonaho ibyo bakeneye ndetse bakaba banabigura bikabagezwaho aho baherereye mu buryo bwihuse.

Ibi bicuruzwa ni ibiriri kwamamarizwa ku mbuga nkoranyambaga, aho byorohereza abazikoresha kubonaho ibyo bakeneye, bakaba babigura kandi bakabigezwaho aho baherereye mu buryo bwihuse.

Iyi ni imyenda umucuruzi ari kwamamariza ku mbuga nkoranyambaga, aho abakoresha ikoranabuhanga bashobora kubonaho ibyo bakeneye, bakaba babigura ndetse bikabagezwaho mu buryo bwihuse.

Iri ni iduka riri kwamamariza ibikorwa byayo ku mbuga nkoranyambaga, aho abifashisha ikoranabuhanga bashobora kubonaho ibyo bakeneye, bakaba babigura kandi bikabagezwaho mu buryo bwihuse.

Iyi note y'amafaranga ijana, imwe mu zakoreshwaga mu gihugu cy'u Rwanda mu myaka yashize, kugeza kuri ubu ikaba itagikoreshwa aho bayisimbuje igiceri.

Iki ni icyuma kinini gikusanyirizwamo amata, kugira ngo atunganywe akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo bwizewe n'uyagura abe atamutera ikibazo giturutse ku mwanda.

Ibi byuma binini tubona hano ni ibikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza kandi akorerwe isuku anabikwe mu buryo butuma atakwangirika n'uyaguze abe yizeye ko nta kibazo ushobora kumutera.

Muri iyi nzu y'ubucuruzi turabonamo icyuma gikusanyirizwamo amata, kugira ngo atunganywe neza, akorerwe isuku ndetse abikwe no mu buryo aba adashobora kwangirika, n'uyagura aba yizeye ko atamutera ikibazo giturutse ku mwanda.

Muri iyi nzu y'ubucuruzi harimo icyuma gikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza, akorerwe isuku kandi abikwe ku buryo aba adashobora kwangirika, ndetse n'abaza kuyagura babe bizeye ko nta kibazo yabatera giturutse ku mwanda.

Ibi bikoresho ni bimwe mu byifashishwa mu gutwaramo amata ajyanwa ahakusanyirizwa, kugira ngo atunganwe neza akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika ndetse ntabe yateza ikibazo uyagura.

Hano turahabona abaguzi bari kunywa amata nk'uko bigaragara akaba ari inzu acururizwamo, aho aba yatunganyijwe neza kandi akabikwa mu buryo bwizewe, ku buryo yaguze ashobora kuba yahayanywera cyangwa se agahitamo kuyatahana mu rugo iwe.

Aya mandazi ni amwe mu byokurya byoroheje, bikorwa mu ifarini, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, aho afasha nk'abari mu kazi, cyangwa mu rugendo, kuba babona icyo bafata, gituma bakomeza kugira imbaraga z'ibyo bari gukora.

Iki ni icyuma gikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo bwizewe kugira ngo abe atashobora kwangirika ndetse n'uyagura abe yizeye ko nta kibazo giturutse ku mwanda yamuteza.

Aya mata ari gusukwa mu cyuma akusanyirizwamo kugira ngo atunganywe neza, akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo adashobora kwangirika buryo n'uyaguze aba yizeye ko adashobora kumutera ikibazo.

Aya mandazi ari hano mu ndobo, ni bimwe mu byokurya byoroheje bikorwa mu ifarini, amata ndetse n'ibindi, aho bifasha nk'abari mu ku mirimo itandukanye, cyangwa se ku rugendo kubona icyo kurya bafata gituma bakomeza kugira imbaraga, zo gukora.

Iki cyuma kinini giteretse hasi, ni igikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganywe neza kandi akorerwe isuku ndetse n'uyagura abe yizeye ko adashobora kumutera ikibazo giturutse ku mwanda cyane ko abenshi bahitamo kuyahanywera cyangwa se ko bayajyana mu ngo zabo.

Muri iyi nzu y'ubucuruzi, turabonamo icyuma gikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganywe neza akorerwe isuku ndetse abikwe mu buryo adashobora kwangirika kugira ngo n'uyagura abe yizeye ko atamutera ikibazo icyo ari cyo cyose giturutse ku mwanda.

Ibi bikoresho ni bimwe mu bitwarwamo amata kugira ngo ajyanwe mu cyuma akusanyirizwamo, atunganywe neza kandi akorerwe isuku kugira ngo abikwe mu buryo adashobora kwangirika n'uyagura abe yizeye ko atamutera ikibazo giturutse ku mwanda.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata, nk'uko tuyibona hari icyuma akusanyirizwamo kugira ngo akorerwe isuku kandi atunganywe ndetse abikwe mu buryo aba adashobora kwangirika. Uyaguze akaba ashobora guhita ayahanywera cyangwa se kuba yahitamo kuyajyana mu rugo iwe.

Iyi nzu ni icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, by'umwihariko amata; ndetse nkuko bigaragara kuri iki cyapa hakaba ari hamwe mu hafasha abantu bayakeneye kuba barushaho kuyabona, kandi aho aba atunganyijwe neza ku buryo uyaguze ashobora kuyahanywera cyangwa se agahitamo kuba yayajyana mu rugo iwe.

Iyi nzu y'ubucuruzi icururizwamo amata ndetse n'ibiyakomokaho nk'uko ku byapa bibigaragaza, aho aba yatunganyijwe neza kandi asukuye kuburyo uyaguze aba ashobora guhita ayahanywera.

Hano turahabona imigati, ikaba ari ibyo kurya byoroheje bikorwa mu ifarini, amata ndetse n'ibindi, aho abenshi bakunze kuyifashisha ku mafunguro yabo ya mu gitondo cyangwa se mu gihe bari mu kazi kugira ngo bakomeze kugira imbaraga zo gukora.

Aya mandazi ni amwe mu byo kurya byoroheje bikorwa mu ifarini ndetse n'ibindi bivangwamo, akaba ari amwe abantu bakunda kwifashisha ku mafunguro yabo ya mu gitondo cyangwa se mu gihe bari mu kazi, bakaba bayafata kugira ngo bakomeze kugira imbaraga zo gukora.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo bicuruzwa bitandukanye nkuko bigaragara hari uwo bamaze gusukira amata akaba ari ahantu bashobora gufasha benshi mu gihe bari ku rugendo cyangwa mu kazi kuba babona aho bagira icyo bafata biboroheye kugira ngo bakomeze kugira imbaraga.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo amata, aho aba yatunganyijwe neza kandi yateguwe ku buryo uyaguze aba ashobora kuhita yahanywera cyangwa se akaba yahitamo kuyatahana mu rugo iwe.

Aba bantu bafite ibikombe birimo amata, biragaragara ko ari mu nzu acururizwamo, aho aba yatunganyijwe neza kandi yakorewe isuku, ku buryo uyaguze ashobora guhita ayahankwera cyangwa se agahitamo kuba yayajyana mu rugo iwe.

Hano turahabona inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibyo kunywa bitandukanye by'umwihariko ibyiganjemo amata, uko tubibona hari icyuma akusanyirizwamo kugira ngo atunganywe neza akorerwe isuku kandi abikwe mu buryo aba adashobora kwangirika.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibyiganjemo amata nk'uko bigaragaraba hakaba hari icyuma ashyirwamo kugira ngo akomeze kumera neza abe atakwangirika cyane ko hari abayagura bagahitamo kuhita bayahanywera cyangwa se bakayajyana mu ngo zabo.

Ibi ni ibyo kurya byoroheje bikorwa mu ifarini ndetse n'ibindi, abantu bakaba bakunze kubyifashisha haba ku mafunguro yabo ya mugitondo cyangwa se igihe bari mu kazi, kugira ngo bakomeze kugira imbaraga zo gukora.

Iki cyuma kinini turi kubona hano ni igikusanyirizwamo amata kugira ngo atunganwe neza akorerwe isuku ndetse abikwe mu buryo bwizewe ku buryo n'uyagura aba yizeye ko atamutera ikibazo giturutse ku mwanda.

Iyi ni inzu icururizwamo amata nkuko turi kuhabona icyuma akusanyirizwamo, kugira ngo atunganwe neza kandi akorerwe isuku ndetse abikwe mu buryo aba adashobora kwangirika, n'uyagura abe yizeye ko atamutera ikibazo icyo ari cyo cyose giturutse ku mwanda.

Uyu mucuruzi ari gusukira amata umuguzi ayakura mu cyuma akusanyirizwamo, kugira ngo atunganwe neza kandi akorerwe isuku ndetse abikwe mu buryo aba adashobora kwangirika, ku buryo n'uyagura aba adafite impungenge ko ashobora kumutera ikibazo giturutse ku mwanda.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo inyuranye, uje kumenyekanisha ndetse akishyura umusoro.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kumenyekanisha ndetse no kwishyura neza umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu Gihugu cy'u Rwanda nk'uko turikubibona, ikaba ihabwa umucuruzi wamaze kumenyekanisha no kwishyura neza umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'Ikigo gishinzwe Imisoro n'Amahoro, gikorera mu Gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi, ndetse n'undi ukora indi mirimo inyuranye umaze kwishyura umusoro.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, bakayiha umucuruzi umaze kumenyekanisha ndetse akishyura neza umusoro we, kandi ayo mafaranga ni yo yifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere abagituye.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora imirimo itandukanye umaze kwishyura umusoro.

Inyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo itandukanye, wamaze kwishyura umusoro we neza.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi n'undi ukora indi mirimo itandukanye bireba amaze kwishyura umusoro we.

Iyi tubona hano ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi wamaze kumenyekanisha ndetse no kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo itandukanye, umaze kwishyura neza umusoro we kandi ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwaremezo bitandukanye byo guteza igihugu imbere.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko bigaragaraho ikaba ihabwa umucuruzi wamaze kwishyura umusoro.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko tubibona, ikaba ihabwa umucuruzi wamenyekanishije kandi akishyura umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu, itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa se undi ukora indi mirimo itandukanye, maze kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi umaze kwishyura neza umusoro we cyangwa se n'undi ukora indi mirimo itandukanye.

Iyi nyemezabwishyu niyo itangwa n'Ikigo gishinzwe Imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo itandukanye yamaze kumenyekanisha kandi akishyura umusoro.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi ndetse n'undi muntu ukora imirimo itandukanye urebwa na byo umaze kwishyura umusoro.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, igahabwa umucuruzi cyangwa se n'undi ukora indi mirimo inyuranye, amaze kumenyekanisha no kwishyura umusoro.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora imirimo itandukanye umaze kwishyura umusoro.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'abandi bakora indi mirimo inyuranye, bamaze kumenyekanisha no kwishyura umusoro wabo.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo itandukanye bireba, umaze kwishyura, kumenyekanisha umusoro...

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'Ikigo gishinzwe Umusoro n'Amahoro, gikorera mu Gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi wamenyekanishije kandi akishyura umusoro we ndetse ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo guteza imbere abagituye.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, gikorera mu gihugu cy'u rwanda nk'uko tubibona, ikaba ihabwa umucuruzi, umaze kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora imirimo itandukanye wamaze kumenyekanisha no kwishyura umusoro we neza.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi umaze kwishyura umusoro we.

Iyi ni inyemeza bwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, aho ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo iyo ari yo yose, umaze kumenyekanisha no kwishyura umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi cyangwa se undi ukora indi mirimo itandukanye, wamaze kwishyura neza umusoro.

Iyi nyemezabwishyu turi kubona hano ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi wamaze kumenyekanisha ndetse no kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, aho ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo, wamaze kumenyekanisha kandi akishyura umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, igahabwa umucuruzi ndetse n'undi gukora indi mirimo inyuranye, maze kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu ni itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'ukora indi mirimo itandukanye, umaze kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo inyuranye umaze kumenyekanisha kandi akishyura neza umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, igahabwa umucuruzi umaze kumenyekanisha cyangwa se kwishyura umusoro, ndetse ayo mafaranga akifashishwa mu bikorwa binyuranye.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko turi kubibona, ikaba ihabwa umucuruzi wamenyekanishije ndetse akishyura umusoro.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi ukora indi mirimo inyuranye, wamaze kwishyura umusoro we.

Iyi nyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gikorera mu Gihugu cy'u Rwanda ikaba ihabwa umucuruzi ndetse n'undi umaze kumenyekanisha ibikorwa bye ndetse no kwishyura umusoro.

Iyi nzu tubona hano ni ivunjirishirizwamo amafaranga aho ifasha nk'abanyamahanga baba binjiye mu gihugu kuba baguranirwa bakabona akoreshwa aho baje.

Hano turahabona intebe ndetse n'ameza bikozwe mu biti, aho bigaragaza ko iyo dufashe neza ibidukikije bishobora kubyazwamo umusaruro w'ibintu byinshi bitandukanye, nk'ibyo turi kubona aha ndetse bigatunga n'abanyabugeni babikora.

Izi ntebe ndetse'a' meza ni bimwe mu bikoresho byo mu nzu bikozwe mu mbaho, aho biba byatunganyijwe neza ndetse bikaba bigaragaza ko iyo dufashe neza ibidukikije bishobora kubyazwamo umusaruro w'ibintu byinshi bitandukanye ndetse bigatuga n'ababikora.

Izi ntebe ndetse n'aya meza tubona hano bikozwe mu buryo bwiza bigaragara ko babikoze mu biti aho iyo tubifashe neza bishobora kubyazwa umusaruro havamo ibintu byinshi bitandukanye ndetse bigatunga n'ababikora.

Hano turahabona intebe ndetse n'ameza akaba ari ibikoresho byo mu nzu bikozwe mu mbaho nk'uko bigaragara, bikaba ari icyerekana ko iyo dufashe neza ibidukikije birimo ibiti bishobora kubyazwamo umusaruro w'ibintu byinshi bitandukanye ndetse bigatunga n'ababikora.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kunywa n'ibyokurya bitandukanye nkuko tubibona kaba ari hamwe mu hantu abantu bakunda kujya mu gihe bashaka gusabana n'inshuti zabo cyangwa se gusangira n'imiryango yabo.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye nkuko turi kubibona, akaba ari hamwe mu ho abantu bakunda kujya mu gihe bashaka kuganira n'inshuti zabo cyangwa se gusangira n'imiryango yabo, bakaba banahakorera ibindi birimo nko kwidagadura.

Aha ni hamwe mu hacururizwa ibyo kurya, ndetse n'ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye, aho abenshi bakunda kujya mu gihe bakeneye kuruhuka nyuma y'akazi, cyangwa se gusangira n'imiryango yabo n'inshuti zabo, bakaba banahidagadurira.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye, aho abantu benshi bishimira kujya, mu gihe bakeneye kuruhuka nyuma y'akazi cyangwa se gusangira n'imiryango yabo, kuganira n'inshuti ndetse no kuba bahakorera imyidagaduro.

Hano turahabona inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, uko bigaragara hariho n'uwakira abahagannye, cyane ko benshi bakunda guhaza mu gihe bari kuruhuka basoje akazi, cyangwa se bifuza gusangira n'inshuti zabo n'imiryango yabo.

Aba ni bamwe mu bakora umurimo w'ubucuruzi w'ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imboga, akaba ari bimwe mu byo dukenera kugira dukomeze kugira ubuzima bwiza, cyane ko hari ibitera imbaraga, birinda indwara n'ibindi.

Aba ni abaturage bakora imirimo itandukanye y'ubucuruzi nk'uko tubibona iri akaba ari isoko, aho bibafasha kubona ibibatunga ndetse n'imiryango yabo n'abahinzi bakabona aho bagemura umusaruro wabo.

Aba baturage ni bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwo gucuruza ibitandukanye birimo nk'imboga ndetse bikorohereza abafite ubushobozi buke kubona aho bagurira ibyo kurya byoroheje bitewe n'amafaranga bafite.

Hano turahabona aho abaturage bari gukora imirimo y'ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye, kugira ngo bashobore kubona ko batunga imiryango yabo, ndetse bikorohereza n'abahinzi kujyana umusaruro bejeje na bo bakabona ibindi bintu bakeneye.

Aba n'abakora umwuga w'ubucuruzi w'ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imboga, akaba ari zimwe mu byo dukeneye kugira ngo umubiri wacu ukomeze kugira imbaraga, cyane ko harimo izitera imbaraga, izirinda indwara ndetse n'ibindi

Iyindi mirimo y'ubucuruzi icururizwamo imitako inyuranye imikufi ibikapu ndetse n'ibindi bikorwa n'abanyabugeni kandi bikaba bikorwa hashingiwe ku muco w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bigaragaraho ibyiganjemo imigongo.

Hano turahabona imitako ndetse n'ibikapu abanyebugeni bakoze, bashingiye ku muco w'igihugu cy'u Rwanda cyane ko tubona ibyiganjemo imigongo ndetse ibi bikaba bikundwa n'abanyamahanga baba baje gusura igihugu.

Ujya wibaza uti:ku ibihumbi magana ane by'amanyarwanda nabona inzu nakodesha ku kwezi n'umuryango wanjye? yego birashoboka cyane! hano mu mujyi wa Kigali i Kanombe hari inzu ifite ibyumba bine, ubwogero butatu mu inzu, ni inzu yubatse k'uburyo bugezweho, ni inzu iri yonyine m'urupangu, ni inzu ifite amakaro, ni inzu ifite ama purafo meza, ifite amatara meza, ifite aho baparirika imodoka hanini kandi hisanzuye, ni inzu ifite urubaraza rwiza, ni inzu ubona ko ijyanye n'igihe kandi iri ahantu heza.

Hano turahabona icyapa kiri ku marembo yinjira mu isoko riherereye Nyabugogo, rikaba ryarubakiwe bamwe mu bakoraga imirimo y'ubucuruzi itemewe mu muhanda, batembereza ibyo bacuruzaga.

Iri ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa binyuranye ndetse nk'uko tubibona hariho imbuto z'ubwoko butandukanye, aho ari zimwe dukenera kugira ngo dukomeze kumererwa neza cyane ko, harimo izongera amaraso ndetse n'ibindi.

Hano hari abantu bari gukora imirimo y'ubucuruzi uko tubibona iri ni isoko, ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo imboga, bikaba bifasha ababikora kubona ibitunga imiryango yabo.

Ubu ni ubucuruzi butandukanye by'umwihariko bw'imbuto ndetse akaba ari zimwe mu byo dukenera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza cyane ko hari izirinda indwara, izongera amaraso, izitera imbaraga n'ibindi.

Aba ni bamwe mu bakora umwuga w'ubucuruzi, aho bacuruza imbuto, akaba ari zimwe mu byo umubiri wacu ukenera kugira ngo ukomeze kumera neza, cyane ko haba harimo izitera imbaraga, izirinda indwara, izongera amaraso ndetse n'ibindi.

Hano turahabona abantu bari gukora ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye byiganjemo imboga, nkuko tubibona hariho karoti, intoryi, inyanya ndetse n'ibishyimbo, bikaba bibafasha kubona ibitunga umuryango wabo ndetse n'abahinzi bakabona aho bagurishiriza umusaruro bejeje.

Aha ni ahari gukorerwa ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora, kugira ngo barusheho kubisobanukirwa ndetse babe bayigana ari benshi.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora, kugira ngo biborohere kubona aho babitsa amafaranga, bayabikuriza, bagura amayinite yo guhamagaza ndetse n'ibindi.

Hano turahabona icyapa cya sosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse n'umukozi uyikorera aho iba iri kwamamariza ibikorwa byayo ahantu hatandukanye kugira ngo abantu bayisobanukirwe kandi bayigane ari benshi.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo imirimo itandukanye ya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, aho yegereza ibikorwa byayo abaturage kugira ngo biborohere kuba bagura amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga, kuyabikuza n'ibindi.

Ibi byapa tubona hano ni ibitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho biba biriho umubare w'ibanga umucuruzi akoresha, ndetse umuguzi cyangwa se ufashijwe mu bundi buryo akaba ashobora kuwishyuriraho yifashishije amafaranga afite kuri telefone ye.

Hano turahabona umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN, ndetse n'umukozi uwukoreramo, aho iba yegereje ibikorwa byayo abaturage, kugira ngo bashobore kuba bakwigurira amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga, kuyabikuza n'ibindi bitandukanye.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho byorohereza abaturage kubona aho bagurira amayinite yo guhamagara, kubitsa amafaranga yabo cyangwa se kuyabikuza mu buryo bworoshye.

Aka ni kamwe mu tuzu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje ibyo ikora abaturage ndetse hakaba n'ababafasha mu buryo bunyuranye bitewe n'ibyo bakeneye nko kuba bagura amayinite, amakarita ndetse n'ibindi.

Aka kazu ni kamwe mu gukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho korohereza abaturage kubona aho babikiriza amafaranga yabo, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza ndetse n'ibindi.

Aka kazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho MTN, aho ari hamwe mu hafasha abaturage kuba babitse amafaranga yabo, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza ndetse n'ibindi bitabagoye.

Hano ni aho sosiyete y'itumanaho ya MTN iri gukorera ibikorwa byayo, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo barusheho kubisobanukirwa ndetse bayigane ari benshi, kandi bafashwe bitewe n'ibyo bakeneye.

Aba ni bamwe mu bakozi bakorana na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho baba bari gukangurira abaturage kuba bakwishyura mu gihe hari icyo baguze cyangwa bahawe ubundi bufasha; bagakoresha amafaranga bafite kuri telefoni zabo.

Iki cyapa turi kubona hano ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, ndetse turabona n'abakozi bayikorera, aho gihabwa umucuruzi kiriho umubare w'ibanga azajya akoresha, kugira ngo bifashe abagura cyangwa abafashwa mu bundi buryo, kuba bakwishyura bifashishije amafaranga bafite kuri telefoni zabo.

Aha ni ahari kwamamarizwa ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse n'abayikorera, aho iba yegereje ibyo ikora abaturage kugira ngo barusheho kubisobanukirwa ndetse babe bayigana ari benshi.

Muri iri duka haragaragaramo icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho gishyirwaho umubare w'ibanga umucuruzi azajya yifashisha, bikorohereza uguze kuba yakwishyura akoresheje amafaranga afite kuri terefoni ye.

Hano hakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y' itumanaho ya emutiyene, iba yegereje ibyo ikora ahahurira abaturage benshi, kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyo badasobanukiwe, bafashwe mu buryo bunyuranye, kandi babe bayigana ari benshi.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, aho iba yegereje ibyo ikora abaturage, kugira ngo bafashwe nko kuba babitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kugura meyinite yo guhamagaza, n'ibindi.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho, ya MTN, nkuko'uko tubibona hariho abaturage bari gufashwa mu buryo butandukanye nko kuba bagura amayinite, kubitsa amafaranga yabo kuyabikuza n'ibindi.

Aka kazu gakorerwamo imirimo itandukanye ya sosiyete y’itumanaho ya MTN, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo biborohereze kuba bagura amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kuyoherereza abandi, n’ibindi bitandukanye.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho gihabwa umucuruzi hakabaho umubare w'ibanga azajya akoresha, kugira ngo uguze cyangwa ufashijwe mu bundi buryo abe yawishyuriraho, yifashishije amafaranga afite kuri telefoni ye.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo imirimo itandukanye y'ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni, aho gafasha abaturage kuba babona uko babitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kugura ama inite yo guhamagaza n'ibindi bitabagoye.

Hano ni hamwe mu hakorerwa ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje ibyo ikora abaturage kugira ngo barusheho kubisobanukirwa, ndetse babe bayigana ari benshi.

Hano turahabona icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, kiriho umubare w'ibanga umucuruzi akoresha, bigafasha uguze kuba yakwishyura yifashishije amafaranga afite kuri telefoni ye, nkuko tubibona hano ko hari ugiye kubikora.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho yegereje abaturage ibyo ikora, kugira ngo biborohere kubona aho bagurira amayinite yo guhamagara, kubitsa amafaranga yabo, kuyabikuza n'ibindi.

Aka kazu ni kamwe mu ducururizwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho byorohereza abaturage kubona aho babitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza ndetse n'ibindi, biboroheye.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho gafasha abaturage kuba babona aho babitse amafaranga yabo, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza n'ibindi bitabagoye.

Aka ni kamwe mu tuzu dukorerwamo ibikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya MTN aho iba yegereje abaturage ibyo ikora nk'uko tubibona hariho abari gufashwa nko kuba babitse amafaranga yabo cyangwa se kuyabikuza n'ibindi.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN ndetse hakaba hariho n'umubare w'ibanga umucuruzi akoresha aho byoroherezawuguze cyangwa se ufashijwe mu bundi buryo kuba yakwishyura yifashishije amafaranga afite kuri telefone ye.

Iki cyapa ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho ikangurira abacuruzi ndetse n'abakora indi mirimo itandukanye, kuba bakwifashisha ubu buryo, bushyirwaho umubare w'ibanga bakoresha ndetse bikorohereza abaguzi cyangwa se abafashijwe mu bundi buryo, kuba bakwishyura bakoresheje amafaranga bafite kuri terefone zabo.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN aho ari uburyo bworohereza benshi kubona aho babikiriza amafaranga yabo, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza, ndetse n'ibindi.

Aka ni kamwe mu tuzu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo biborohere kubona aho bagurira amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga, kuyabikuza n'ibindi.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho yegereza ibyo ikora abaturage kugira ngo bafashwe nko kuba babitsa amafaranga yabo kubikuza kugura ama inite yo guhamagaza n'ibindi biboroheye.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya Sosiyete y'Itumanaho ya MTN, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugirango biborohere kuba bagura amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga, kuyabikuza n'ibindi...

Iki cyapa ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ya mtn, aho gihabwa umucuruzi kigashyirwaho n'umubare w'ibanga azajya akoresha, aho bifasha umaze kugira icyo agura cyangwa ufashijwe mu bundi buryo, kuba yakwishyura akoresheje amafaranga afite kuri terefone ye.

Aka kazu ni agakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya Eyateri. Aho yegereza abaturage ibyo ikora kugira ngo biborohere kubona aho bagurira amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kuyoherereza abandi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa itandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo biborohere nko kuba bakigurira amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga, kuyabikuza n'ibindi.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo iborohereze kubona aho babitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kugura amayinite yo guhamagaza n'ibindi.

Aha ni aho sosiyete y'itumanaho ya MTN iri kwamamariza ibikorwa byayo, nk'uko tubibona hari umukozi uyikorera, aho ari gufasha abaturage mu buryo butandukanye, bitewe n'ibyo bakeneye, ndetse no kuba bayigana ari benshi.

Uyu n'umuhanzi w'Umunyarwandakazi, aho yari gufatanya n'abakorera sosiyete y'itumanaho MTN, kwamamaza ibikorwa byayo muduce dutandukanye kugira ngo abaturage barusheho kuyisobanukirwa bayimenye kandi babe bayigana ari benshi.

Aba ni bamwe mu bakozi bakorera sosiyete y'itumanaho ya MTN baba bari kwamamariza ibikorwa byayo ahantu hatandukanye nko mu imurikagurisha kugira ngo abaturage barusheho gusobanukirwa ibyo ikora kandi babe bayigana ari benshi.

Iki cyapa kimanitse aha ni igitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho kiba kiriho umubare w'ibanga umucuruzi akoresha ndetse bigafasha uguze cyangwa ufashijwe mu bundi buryo, kuba yawishyuriraho akoresheje amafaranga afite kuri telefone ye.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho iba yegereje ibyo ikora abaturage kugira ngo biborohereze nko kuba babitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kuyoherereza abandi n'ibindi.

Aka kazu ni kamwe mu dukorerwamo imirimo itandukanye ya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyene, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugirango biborohereze nko kuba bagura amayinite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga, kuyabikuza ndetse n'ibindi.

Aka kazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho ya Airtel, aho iba yegereje abaturage ibyo ikora kugira ngo biborohere nko kuba bakwigurira ama inite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga, kuyabikuza n'ibindi bitandukanye.

Iki ni icyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni kiriho kode umucuruzi akoresha umaze kugura aba ashobora kwishyuriraho yifashishije amafaranga afite kuri konti ye ya telefoni.

Iki cyapa gitangwa na sosiyete y'itumanaho ya MTN, aho gihabwa umucuruzi ndetse hariho n'umubare w'ibanga azajya akoresha, bikorohereza uguze cyangwa ufashijwe mu bundi buryo kuba yakwishyura akoresheje amafaranga afite kuri terefone ye.

Aba ni bamwe mu bakozi bakorana na sosiyete y'itumanaho emutiyeni, aho baba bari ahantu hatandukanye, kugira ngo bafashe abaturage kubona uko bagura amainite yo guhamagaza, kubitsa amafaranga yabo, kuyabikuza, kuyoherereza abandi n'ibindi bitandukanye.

Hano turahabona akazu gakorerwamo bimwe mu bikorwa bya sosiyete y'itumanaho emutiyene ndetse n'umukozi ugakoreramo uri gufasha umuturage, aho korohereza abantu batandukanye kuba babona uburyo bwo kubitsa amafaranga yabo kuyabikuza kugura amayinite yo guhamagaza n'ibindi.

Uyu mucuruzi agemura ibicuruzwa ababiguze bifashishije ikoranabuhanga ndetse bukaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye, bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa se mu mirimo itandukanye baba barimo kandi bikabagezwaho mu buryo bwihuse.

Uru ni urubuga rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye bifashishije ikoranabuhanga, aho byorohereza benshi mu barikoresha kuba babonaho ibyo bakeneye, bakabitumiza ndetse bikabagezwaho ku buryo bwihuse.

Uyu mucuruzi agemura ibicuruzwa abitumije yifashishije ikoranabuhanga, ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye, bitabaye ngombwa ko bava mu rugo cyangwa se mu kazi kabo mu gihe badafite umwanya kandi bikabageraho byihuse.

Uyu ni umucuruzi aho yaragemuriye umuturage ibyo yatumije yifashishije ikoranabuhanga, bikaba bigaragara ko hari mu gihe cya covid, bikaba ari uburyo bworoherezaga benshi ndetse n'ubu bugikoreshwa kugira ngo babone ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo.

Uyu mukozi cyangwa se umucuruzi agemuriye ibicuruzwa bitumije yifashisha ikoranabuhanga ubu buryo bukaba bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye mu gihe badafite umwanya wo kuba bakwigira ku isoko kandi bikabagezwaho byihuse.

Uyu mucuruzi agemuriye ibicuruzwa babitumije bifashishije ikoranabuhanga, ahari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye baba bari mu ngo zabo cyangwa se mu kazi kabo badafite umwanya wo kwigira aho bicururizwa bikabagezwaho byihuse.

Iri ni iguriro rikoresha ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora kwiguriraho ibicuruzwa binyuranye birimo inkweto, kandi akaba yazigezwaho aho aherereye, mu buryo bwihuse.

Uyu ni umucuruzi ugemurira ibicuruzwa ababitumije bifashishije ikoranabuhanga hari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa se mu kazi kandi bikabagezwaho mu buryo bwihuse.

Hano turahabona abatwara ibicuruzwa, biba byatumijwe n'abantu batandukanye bifashishije ikoranabuhanga, bukaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye, bitabaye ngombwa ko bava aho bari, cyane ko abenshi baba badafite n'umwanya wo kwigerera aho bicururizwa.

Uru rubuga ni urucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko imboga, aho byorohereza abakoresha ikoranabuhanga kuba baguraraho ibyo bakeneye, ndetse bikabagezwaho aho baherereye.

Uru ni urubuga rucururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, rwifashishije ikoranabuhanga, aho abarikoresha baba bashobora kurusura, bakaguraho ibyo bakeneye, binyuranye kandi bikabagezwaho mu buryo bwihuse.

Uyu mucuruzi cyangwa se umukozi n'ugemuriye ibicuruzwa uwabitumije yifashishije ikoranabuhanga, akaba bumwe mu buryo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa bagera aho bicururizwa.

Uyu ni umucuruzi cyangwa se umukozi ugemuriye umuturage ibyo yatumije yifashishije ikoranabuhanga. Nk'uko tubibona bikaba bigaragara ko hari mu gihe cya korona virusi, aho byafashaga benshi kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo ndetse no muri iki gihe bikaba bikiborohereza.

Uyu mucuruzi ni ugemura ibicuruzwa uwabitumije yifashishije ikoranabuhanga, bukaba ari uburyo bworohereza benshi kugura ibyo bakeneye, bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa se mu kazi, kandi bikabageraho mu buryo bwihuse.

Iri ni isoko ricururizwaho ibicuruzwa bitandukanye, ryifashishije ikoranabuhanga, aho byorohereza benshi kuba barisura bakabonaho ibyo bakeneye bakabigura, kandi bikabagezwaho, aho baherereye mu buryo bwihuse.

Uyu mucuruzi agemuriye ibicuruzwa uwabitumije yifashishije ikoranabuhanga, ndetse akaba ari uburyo bworohereza benshi kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo zabo cyangwa se mu gihe bari mu kazi nta kanya bafite, kandi bikabagezwaho byihuse.

Iri ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye rikoresheje ikoranabuhanga aho abenshi bashobora gushakiraho ibyo bakeneye bakaba babitumizwa ndetse bikabageraho bitabaye ngombwa ko bagera aho rikorera.

Hano ni hamwe mu hacururizwa ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya bitandukanye, aho abantu benshi bakunda kujya mu gihe bakeneye kuruhuka nyuma y'akazi cyangwa se gusangira n'inshuti zabo n'imiryango yabo ndetse bakaba banahidagadurira.

Hano turahabona imbuga zitandukanye zikorerwaho imirimo y'ubucuruzi hifashishijwe ikoranabuhanga, aho byorohereza benshi mu barikoresha kuba babona ibyo bakeneye bakabigura kandi bakabigezwaho aho baba bari hose.

Hano turahabona ahakorerwa imirimo y'ubucuruzi itandukanye, by'umwihariko ibyo turi kubonaho ni imbuto kaba ari zimwe mu byo umubiri wacu ukenera kugira ngo ukomeze kumererwa neza tugire imbaraga cyane ko harimo nk'inda indwara, ibyongera amaraso n'ibindi.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye nk'uko bigaragaraba, akaba ari ahantu benshi bakunda kujya mu gihe bakeneye gusangira n'imiryango yabo, kuganira n'inshuti zabo ndetse n'ibindi bitandukanye birimo nko kwidagadura

Hano turahabona ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko ibyo tubonaho ni imbuto bikaba ari bimwe mu byo abantu bakenera kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda; aho umuturage uyifite aba ashobora kubona ubuvuzi akeneye bitamugoye; by'umwihariko nk'ababa bafite ubushobozi buke, badashobora kwiyishyurira ijana ku ijana.

Uyu muturage turi kubona hano turabona ko afite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza aho yagiye kuvurirwa ndetse uyifite akaba ashobora kubona ubufasha akeneye ubwo aribwo bwose bitewe n'uburwayi afite kandi akaba atarembera mu rugo.

Aya makarita uyu muturage afite ni ay'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho afasha uyifite kuba yabona ubuvuzi akeneye butandukanye, akaba atarembera mu rugo.

Iyi karita tubona hano ni iy'ubwisungane mu kwivuza ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho uyifite aba ashobora kubona ubuvuzi akeneye mu buryo bworoshye, akaba atarembera mu rugo bitewe n'uko yabuze amafaranga yo kwiyishyurira ijana ku ijana.

Aya makarita abaturage bafite ni ay'ubwisungane mu kwivuza, akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho uyifite aba ashobora kubona ubuvuzi akeneye ndetse bigafasha by'umwihariko abafite ubushobozi buke baba batashobora kwiyishyurira ijana ku ijana.

Iyi ni ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho umuturage uyifite aba ashobora kubona ubuvuzi akeneye, bitabaye ngombwa ko arembera mu rugo kubera kubura ubushobozi bwo kwiyishyurira.

Aya makarita ni ay'ubwisungane mu kwivuza akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho uyifite ashobora kubona ubuvuzi akeneye bitabaye ngombwa ko arembera mu rugo rwe kubera kubura amafaranga yo kwishyura ijana ku ijana.

Ikarita uyu muturage afite ni iy'ubwisungane mu kwivuza ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho leta yorohereje abagituye kubona ubuvuzi bakeneye bitabagoye, by'umwihariko nk'ababa bafite ubushobozi buke badashobora kwiyishyurira ijana ku ijana.

Iyi karita turi kubona hano ni iy'ubwisungane mu kwivuza, aho ifasha uyifite kuba yabona ubuvuzi ubwo aribwo bwose akeneye ndetse akaba atarembera mu rugo bitewe no kubura amafaranga yo kwiyishyurira.

Iri soko ni rimwe muyacuruza mu buryo bugezweho, aho ibicuruzwa biba bibitse neza ku buryo bidashobora kwangirika, kandi biri ku murongo; ndetse n'uje kubigura akaba ashobora guhita abona icyo akeneye mu buryo bumworoheye.

Iri ni isoko ricuruzwa ku buryo bugezweho aho ibicuruzwa biba biteretse neza ku buryo bufite isuku kandi bitakwangirika ndetse bikorohereza n'abahagana kubona ibyo bakeneye bitabagoye.

Hano turahabona isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye ku buryo bugezweho, aho biba bibitse neza bifite isuku ndetse n'ubikeneye, akabona icyo ashaka mu buryo bumworoheye.

Iri ni isoko ricuruza ku buryo bugezweho nk'uko tubibona ibicuruzwa byaho bikaba biba bitondetse neza, bifite isuku kandi bibitse mu buryo bidashobora kwangirika; ku buryo n'uje kugira icyo agura akibona mu buryo bworoshye.

Hano turahabona isoko ricuruzwamo ku buryo bugezweho, aho ibicuruzwa biba bitondetse neza kandi bifite isuku, ku buryo n'uje kugira icyo agura bimworohera kubona aho agishakira.

Iri ni isoko ricuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye kandi ku buryo bugezweho, aho biba bitondetse neza, bitari mu kavuyo, ku buryo byorohereza n'uje kugura kuba yabona icyo ashaka bitamugoye.